Abana bari ku ishuri ndetse n'ababyeyi babiri, bigaragara ko ari irerero abana bariho, kuko ni abana batoya cyane bari kwigishwa uko bagomba kwitwara n'imyifatire bagomba kugira kugira ngo bazagire ubuzima bwiza.

Ishuri ririmo abana benshi b'abanyeshuri ndetse na mwarimu wabo. Aba bana bicaye ku ntebe ndetse bafite ameza ari imbere yabo yo bandikiraho. Abana batozwa kwiga bakiri bato kugira bakure babikunda ndetse babishyizeho umutima.

Abana bari mu irerero barimo gukina n'umubyeyi ubarera, gukina kw'abana ni ibintu byiza kuko bituma bakura basobanutse ndetse bashobotse, bigatuma ubwonko bwabo bukura vuba ndetse bagatekereza neza, bakazagira akamaro mu gihe kizaza.

Abana batoya, benshi bicaye ku mukeka umwe. Bakaba bari kumwe n'umuntu mukuru urimo kubahereza amata yo kunywa, amata ni ingenzi ku bana batoya kubera ko abafasha gukura kandi bagakura vuba bafite n'ubuzima bwiza.

Abana benshi bari imbere y'ishuri bambaye impuzankano, barimo gukina basimbuka bigaragara ko bari mu gihe cyo kuruhuka, ishuri ryabo ryubatse neza ryubakishije amatafari ahiye ndetse rifite na sima bigaragara ko rifite n'isuku.

Abana benshi bicaye kumukeka hasi, buri umwe afite igikombe arimo kunywa ndetse hari n'umuntu mukuru ubahagaze iruhande, bigaragara ko ari we uri kubigisha ndetse abahaye n'ibyo kunywa.

Abana benshi bicaye ku dutebe tuzengurutse ameza bari kumwe n'umugore bigaragara ko ari umwe mu babigisha, aba bana bicaye ku ntebe kandi barimo kureba mu bitabo, bigaragara ko hari ibintu bigishijwe basabwa kumenya.

Abana babiri bambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse, umwe muri bo afite agakapu, bakaba bafashe isorori bigaragara ko ari iy'ibiryo, bakaba bari bagiye kwaruza ibyo kurya kugira ngo bajye kurya.

Abantu bicaye mu ishuri ririmo intebe nyinshi z'imbaho zifite aho bicara ndetse naho batereka ibyo bafite. Bafite mudasobwa ku meza yabo aho barimo kwiga kuzikoresha, ndetse barimo kwigishwa n'umwarimu wabo.

Ikigo cyubakishije amatafari akoze muri sima, ndetse gifite na sima hasi, hari ikigega iruhande rwacyo gifata amazi, ndetse kikaba kizengurutswe na senyenge y'agatimba, aho ifashwe n'ibyuma bishinze hasi mu butaka.

Umunyeshuri urimo kwandika mu gitabo, arimo gukora ibibazo by'imibare bigaragara ko hari ibintu arimo gushakira ibisubizo, kwiga bisaba guhozaho ndetse no gukoresha umwete wawe wose kugira ngo usobanukirwe neza ibyo wiga ndetse nibabikubaza uzabashe kubitsinda neza.

Inyubako zifite amabati ashaje cyane n'ubwo zubakishijwe amatafari ahiye n'ikigega gifata amazi kiri imbere yazo, bigaragara ko izi nyubako zishaje zikaba zikeneye kuba zavugururwa, amabati hagashyirwaho ayandi kugira ngo zikomeze gukoreshwa ibyo zubakiwe.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bakaba barimo gukina hanze y'amashuri aho bigaragara ko bari mu gihe cyo gukina basoje kwiga, bakaba bategereje igihe cyo kwinjira mu ishuri kugira ngo bakomeze amasomo yabo kugeza igihe baributahire mu mago iwabo.

Abana benshi barimo gukina hanze, bigaragara ko ari abanyeshuri bavuye mu ishuri ahubwo bageze mu gihe cyo kuba baruhuka, bagakina mbere y'uko basubira mu ishuri, abanyeshuri biba bisaba ngo ubahe umwanya wo kuruhuka kugira ngo ubwonko bwabo bukore neza.

Icyapa kimanitse ku rukuta rwubakishije amatafari, gishushanyije ku gipapuro cy'umuhondo, kikaba gishushanyishije amabara y'icyatsi, umutuku, ubururu, kikaba kigaragaza inyigisho zihabwa abana harimo inzu, igikombe, ipusi ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo.

Amazu menshi yubatse ahantu hitaruye hasa naho ari hakurya y'umuhanda, hakaba hari umuhanda w'igitaka ufite amabuye ku ruhande yubatse rigore, ndetse imbere yayo mazu hakaba hariho ubwatsi bukoze indabyo ndetse n'aho baca.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, afite amadirishya y'umweru ndetse n'urugi rw'icyatsi, hakaba hari igipapuro cy'umuhondo kimanitse ku nkuta zayo, cyanditseho amagambo.

Urujya n'uruza rw'abantu aho harimo abana batoya bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri, ndetse n'abandi bantu bakuru bashobora kuba ari abarimu babo ndetse hari inyubako nyinshi bigaragara ko ari iz'amashuri.

Ibikoresho by'imfashanyigisho, harimo udufasha guca umurongo ndetse n'ibifasha kwiga kubara isaha, bikaba ari ibikoresho umuntu ashobora kwifashisha mu gihe arimo kwigisha urugero nko kwigisha umuntu kubara isaha.

Inyubako y'amashuri ashaje bigaragara ko amaze igihe kinini, cyangwa se akaba atitabwaho ngo akorerwe isuku, anavugururwe, afite amadirishya menshi atarimo ibirahure ndetse n'inzugi, sima yayo isa nabi ku buryo bigaragara ko idakoropwa cyangwa se ngo ikorerwe isuku.

Igikuta kimanitseho urupapuro rw'umweru rufatishije utundi tuntu tw'umukara, rugaragara ko ariho amagambo afasha abana kwiga. Ni amagambo y'imfashanyigire ndetse afasha kwiga gusoma ndetse no kumenya ibihekane.

Inzu ifite imiryango myinshi bigaragara nk'aho ari ubwiherero, bushobora kuba bukoreshwa n'abanyeshuri cyangwa se ikigo kibamo abantu benshi, kuko ni bwinshi kandi ntago buteye imbere cyane, bisaba ko bwegezwa hejuru kugira ngo bigire isuku nziza, ndetse bunakoreshwe n'abantu benshi.

Isomero rifitemo utubati twinshi turimo ibitabo by'ubwoko butandukanye, ibitabo bifasha abanyeshuri gusoma bagasobanukirwa ndetse bakumva neza ibyo biga kugira ngo bizabagirire umumaro.

Urukuta rushushanyijeho abana batatu barimo gukina umupira. Bakaba barimo gukina bambaye impuzankano y'umuhondo. Ni ikintu kigaragaza ko abana bafite uburenganzira bwo kwidagadura.

Ikibaho cy'umukara cyandikishijeho ingwa y'umweru. Hakaba hari umuntu urimo gusomesha intoki ku kibaho. Ikigaragara nuko ku kibaho handitseho imibare yo mu mashuri yisumbuye.

Umuhanda urimo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bigaragara ko barimo kujya ku ishuri kwiga, ni byiza ko umuhanda abana bacamo haba hadacamo ibinyabiziga byinshi, kuko bishobora gukora impanuka mu gihe bigonze abana.

Akabati karimo ibitabo byinshi by'ubwoko butandukanye, aho arimo ibitabo by'ubumenya muntu, iby'isi ndetse n'iby'imibare. Bikaba byafasha abanyeshuri n'abarimu kwiga no kwigisha bagasobanukirwa ndetse bakanasobanurirana.

Itsinda ry'abana benshi barimo gukina bari ku cyicungo, aho umwe ajyaho bakamusunika akarya umunyenga, yavaho hakajyaho undi, abandi bahagaze ku ruhande barimo kumureba uko abigenza.

Igipapuro kibambitse ku gikuta aho gishushanyijeho imfashanyigisho yo kwigisha abana batoya ndetse hari n'ikibaho kiriho ibindi bipapuro biriho imibare bigaragara ko bifashishwa mu kwigisha abana kubara.

Ikibuga cy'umupira w'amaboko, aho bakinisha amaboko bagashyira mu kazeru kaba kari hejuru ku rubaho. Ni umupira ushimishije kuko kurewureba birashimisha kandi bisaba no gukina ukoresheje imbaraga zitari nyinshi, akaba ariyo mpamvu abantu benshi bawukunda.

Ikigo cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse hari n'abana imbere y'amashuri bambaye impuzankano, umwe muri bo akaba afite agakapu k'umukara, ishuri riragaragara ko rishaje rikenewe kuvugururwa kugira ngo rigire isuku ihagije.

Icyapa kimanitse ku rukuta, urukuta rwubakishije amatafari ahiye ndetse na sima. Kikaba cyandikishije ibara ry'icyatsi cyo ubwacyo ni umuhondo. Hakaba hariho imibare iri mu rurimi rw'Igifaransa ndetse isobanura ayo magambo.

Inkuta z'inzu zubakishije amatafari ahiye ndetse na sima, harimo akarongo gafite irangi ry'umweru, hariho ahantu hari umuriro w'amashanyarazi, aho ucomekwa ndetse naho ushobora gukupirwa.

Abana bambaye impuzankano bari kuva ku ishuri. Aba bana barimo gutaha bavuye kwiga, aho bagiye mu rugo kureba ababyeyi babo baba basizeyo kugira ngo babafashe imirimo yo mu rugo baba basize bakora.

Igikuta cy'ishuri kiriho ikibaho cyandikishijeho coka iri mu moko abiri, imwe y'umuhondo ndetse n'indi y'umweru, ikibaho kikaba kiri hagati mu gikuta aho hejuru no hasi hubakishije amatafari ahiye.

Abana bahagaze mu cyumba cy'ishuri, aho bigaragara ko bahagaze impande y'intebe zibajije mu biti, ndetse inyuma yabo hakaba hari igikuta kiriho n'ikibaho cy'umukara. Abana biga mu ishuri, gusa ni batoya baracyiga mu mashuri yo hasi.

Amabafu menshi arimo ibyo kurya bigaragara ko ari umutsima w'ibigori, aho bafata ibigori bakabishesha bikavamo ifu, bagateka amazi yamara gushya, bagashyiramo ifu bagateka bikavamo umutsima.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'ishuri cy'amashuri yisumbuye, aho bafite ibyiciro bibiri, icyiciro kibanza n'icyiciro kisumbuyeho, aho bafite abanyeshuri benshi kandi bakaba ari ikigo gikora kikanatsindisha neza.

Abana batoya bicaye mu ishuri, barimo kwiga. Bakaba bakurikiye barimo kureba mwarimu imbere. Imbere yabo ku meza hariho amakaye. Ndetse no nyuma yabo mu kabati hejuru, hariho ibitabo bifashisha mu myigire yabo.

Abantu bicaye hamwe, barimo kureba abandi bari gukina umukino w’amaboko. Iyi mikino ni imwe mu mikino ikunzwe n’abantu benshi, kandi ifasha kuruhura mu mutwe, ndetse ukanakoreramo icyarimwe siporo yo kugorora umubiri.

Ikigo cy'amashuri cyubatse mu gipangu aho hanze yacyo hari akarima k'indabyo karimo n'ibiti, ibi bituma ikigo gisa neza ndetse n'abakigiramo bakagira umwuka mwiza bahumeka bitewe n'uko ibibakikije biba bimeze neza.

Icyapa gishushanyije ku gikuta cy'amatafari ahiye, ni icyapa kigaragaza ishuri ryisumbuye rya Kansi, rikaba ari ishuri rifite amashami abiri ndetse n'andi mashuri yo munsi y'icyiciro kibanza.

Itsinda ryabanyeshuri benshi bicaye hamwe barimo kumva impanuro bari guhabwa n'umuntu bahagaze imbere, bakaba bateze amatwi ndetse barimo kumva kugira ngo basobanukirwe neza ibintu barimo kubwirwa bazabashe kubikurikiza.

Abana benshi bari kumwe bafite ibintu mu ntoki bavuza iyo barimo gufana. Abana bambaye imyenda y'ubururu abandi bambaye umweru. Ndetse bakaba bagaragara nkaho bishimye bahagaze imbere y'inyubako zisa nkaho ari amashuri.

Umuntu ufite icyarahani ndetse n'imyenda urimo kudoda. Mu bigaragara ni uko uyu muntu arimo kudoda cyangwa se akaba arimo kubyiga. Kudoda ni umwuga utunze abantu benshi cyane kubera ko bitanga amafaranga kandi bishobora kugutunga cyane ndetse n'umuryango wawe.

Ikigo cy'ishuri kigomba kuba kizitiye cyubatse neza ndetse gifite ibigikikije harimo ibiti kugira ngo abanyeshuri bakigamo babashe kubona umwuka mwiza wo guhumeka, ndetse babe barinzwe ibintu bishobora kwinjira mu kigo bikabangiza, cyangwa se bikabateza umutekano mukeya.

Abantu benshi bari hamwe, bari ku kibuga, bamwe barimo gukina. Abandi bambaye imyenda ya siporo. Ariko baricaye, barimo kuganirizwa n'abantu bakuru. Aho barimo kubaha amabwiriza y'ukuntu bagomba kwitwara mu gihe bari mu kibuga, cyangwa se imyitwarire bagomba kugira mu gihe bari muri siporo.

Igitabo cy'isomo rijyanye n'ibijyanye n'ubutabire, cyo mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Akaba ari igitabo cy'imfashanyigisho gifasha abarimu, ndetse n'abanyeshuri kugira ngo bige basobanukirwe iby'ubutabire.

Amarembo y'ishuri rya Nyarusange, aho handitseho amagambo agaragaza iryo shuri ndetse hariho n'amagambo atanga ikaze, hakaba hariho amarembo asaba gufungurwa, ayo marembo akaba ari mu ibara ry'ubururu.

Abantu b'ingeri zitandukanye bamwe bicaye abandi bahagaze aho hari umupolisi ubahagaze imbere arimo kubigisha bigaragara ko arimo kubasobanurira ibintu runaka kugira ngo babashe kubyumva kandi babisobanukirwe.

Itsinda ry'abantu bahagaze imbere y'inzu bigaragara ko ari inzu ndangamurage. Hakaba hari abarimo kubasobanurira. Abari gutega amatwi bari gusobanurirwa bakaba bambaye impuzankano bigaragaza ko ari abanyeshuri baje gusura inzu ndangamurage.

Ikibaho cy'icyatsi cyandikisheho ingwa y'umweru, hakaba hari ibikuta bifite irangi ry'umuhondo ndetse n'ameza akoze mu giti, hakaba hari intebe zifite aho kwicara ndetse naho kwandikira.

Abanyeshuri bicaye hasi aho hari abantu imbere yabo barimo kugira ibyo bababwira. Bigaragara ko barikubahugura cyangwa se hari ibintu barimo kubigisha batari bazi bisaba ko batega amatwi bakabyumva ndetse bakabyumva neza kugira ngo bazabikurikize.

Kwiga ni ingenzi mu buzima. Cyane cyane, abana baba bagomba kwigishwa amateka y'igihugu, bagasobanurirwa ibihe byose byaranze igihugu. Bakamenya neza aho igihugu kiva kugira ngo bazabashe gusobanukirwa uko bazitwara mu gihe kiri imbere, kugira ngo bubake igihugu cyabo.

Abana bari kugenda imbere y'inzu bigaragara ko ari amashuri, aba bana bambaye impuzankano, hasi bambaye impuzankano ya kaki, hejuru bambaye amashati y'umweru ndetse n'imipira ya kaki ifitemo ibara ry'ubururu hagati.

Abana bahagaze ku murongo ari benshi bambaye impuzankano isa, aho hari umuntu ubahagaze imbere usa n'urimo kubabwira ibyo bakora, basa n'aho barimo kuririmba, ubahagaze imbere abayobora uko baririmba ndetse n'uko bagomba kubigenza.

Intebe zikoze mu mbaho zifite aho kwicara ndetse zikaba zifitemo imbere n'aho abanyeshuri babika amakay,e ibi ngibi ni byiza cyane kuko bituma umunyeshuri atagendana amakayi buri hantu agiye kuko bituma amakayi asaza vuba.

Abantu benshi b’urubyiruko bicaye hamwe, bambaye imyenda isa bigaragara ko bari mu mahugurwa. Hari ikintu barimo kwigishwaho cyangwa guhugurwaho, bisaba ko baba bumva bose kandi bateze amatwi kugira ngo bumve neza ibintu babwirwa.

Abanyeshuri bari kwiga baba bagomba kwicara ahantu heza kandi hasukuye, bakaba bafite aho kwandikira ndetse bafite ibikoresho by'ishuri bihagije kugira ngo bibafashe kwiga nta nkomyi, maze bazabone amanota meza ndetse babone ubumenyi bwifuzwa ko bageraho.

Amarembo magari ndetse maremare y'ikigo bigaragara ko ari icya segonderi akaba ari ikigo kitwa Kigeme ndetse hakaba hari abantu babiri bari mu marembo y'icyo kigo, icyo kigo amarembo yacyo yubakishije ibyuma ku buryo umuntu atapfa kwinjira uko abonye.

Abanyeshuri bari mu rugendoshuri, aho barimo kwigishwa uko hanze y'ishuri ubuzima buba bumeze ndetse n'uko bashobora gukoresha ibyo biga mu ishuri bakabishyira mu buzima busanzwe, bikaba byababyarira inyungu cyangwa se bigakoreshwa ibindi bintu bibyarira abaturage rusange akamaro.

Inyubako zigezweho, aho ari inyubako zigeretse ndetse zisa neza cyane, zubakishije amatafari ahiye, zikaba zifite amabati asakaye y'ubururu, ndetse hakaba hari abantu bari munsi yayo. Buri nyubako igiye ifite ikigega gifata amazi.

Ishuri ririmo abanyeshuri benshi ndetse n'umwarimu wabo barimo kwiga, hari ibitabo by'imfashanyigisho ndetse n'imfashanyigisho zindi zimanitse ku bikuta, aho hariho amafoto y'ibyo biga.

Icyumba cy'ishuri harimo intebe, ikibaho, umwarimu ndetse n'abanyeshuri barimo kwiga. Umwarimu ahagaze imbere ku kibaho, arimo kwandika. Abanyeshuri barakurikiye bari kureba ibyo arimo kubigisha.

Icyapa kigaragaza ishuri rya segonderi. Kikaba ari icyapa kigaragaza ko aho hantu hari ikigo cy'amashuri kandi gikora. Ikigo cy'amashuri ni ingenzi kuko gifasha abantu kubona ubumenyi ndetse n'uburezi bw'ingenzi.

Umuntu wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu, akaba afite agapapuro ari kwandika ku kibaho akoresheje ingwa y'umweru, ikibaho kikaba ari umukara ndetse haciyeho umurongo ku ruhande ugaragaza ahantu agomba kugarukira.

Abana bicaye hasi bari gukurikirana ibyo barimo kwigishwa, hakaba hari umuntu urimo kubasobanurira ibintu runaka, hari n'abandi bayobozi bicaye imbere yabo ku ntebe, ni byiza ko bakurikira bakumva neza ibyo babasobanurira, kuko ari ingiramumaro.

Abantu barimo gukina umupira w'amaboko wa volley. Aho bigaragara ko bateranye ari abantu benshi ndetse hari n'abandi bari kubareba. Umupira wa volley ni imwe mu mikino ikunzwe cyane kuko ntabwo isaba kwirukanka cyane kandi umuntu uwo ari we wese yawukina.

Itsinda ry'abasore bari ku murongo bambaye imyenda itandukanye bigaragara ko ari izi yo gukina umupira w'amaboko, imikino y'amaboko ni imwe mu myidagaduro ikorwa n'abantu benshi kuko ifasha kuruhuka, ndetse ikaba ari na siporo ngororamubiri.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza aho harimo idarapo ry'igihugu hagati ndetse hirya hakaba hari ikibuga kigaragara ko ari ik'imikino y'intoki, kuko gifite agatimba gakoreshwa mu mikino y'intoki, ikigo kikaba cyubatse neza gifite jaride ndetse kigeretse gifite amashuri meza cyane.

Amatsinda y'abana menshi atandukanye agiye yicaye buri rimwe ukwaryo, bakaba bambaye impuzankano bigaragaza ko ari abanyeshuri, bakaba bamwe bicayemo imbere mu nyubako ibatwikiriye abandi bicaye imbere yayo. Imbere yabo hari ubutaka bigaragara ko, buhinzwemo indabyo ariko zitarakura.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zitandukanye ndetse hari umuntu ubahagaze imbere bigaragara ko arimo kubasobanurira cyangwa se kugira ibyo abigisha.

Ikibaho cyanditseho amagambo umwarimu yari arimo kwigisha, amasomo bisaba kuyandika ku kibaho, kugira ngo abanyeshuri babone ibyo urimo kuvuga niba bisaba no kubyandika mu makayi yabo biborohere.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho bugeretse, ikaba ari inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati meza ndetse ikaba iri mu gipangu cyubakishije amatafari ndetse n'ibyuma.

Inyubako iteye irangi ry'umuhondo ndetse inafite amazu ageretse, ikaba isakaje amabati ajya kuba umweru ndetse hakaba hari abana bahagaze hasi bambaye impuzankano, bigaragaza ko ari abanyeshuri bahiga.

Ibyo kurya biri mu masorori, birimo ibishyimbo, ndetse n'imboga rwatsi, bigaragara ko ari iby'abanyeshuri, biteguwe kugira ngo baze babifate bajye kurya, ibyo kurya ni ingenzi, cyane cyane ibirimo imboga kuko zigira umumaro munini ku mubiri.

Abantu bari mu cyumba kirimo intebe, bigaragara ko ari ishuri, riteye irange ry'umuhondo rifite n'amadirishya ateye irange ry'icyatsi. Bakaba barimo gusobanurira abicaye babateze amatwi, barimo kumva ibyo bababwira kugira ngo basobanukirwe.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe, umwe umwe, hari umwarimu urimo kubaha impapuro z'isuzumabumenyi, bigaragara ko ari ryo bagiye gukora. Ikizamini gisaba kugira ugikore wariteguye neza. Ni byo bituma ubasha gutsinda ndetse ukabona amanota meza.

Ikibaho cy'umukara cyandikishijeho coka y'umweru, handitseho imibare irimo gukorwa cyangwa se yatanzwemo nk'umukoro yahawe abanyeshuri ngo bayikore, bakaba barimo gusobanurirwa n'undi muntu utunze urutoki ku kibaho.

Urujya n'uruza rw'abantu rwiganjemo abana bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri, bafite n'ibikapu birimo ibintu, bigaragara ko ari imyenda cyangwa ibikoresho byabo, bakaba barimo kujya mu modoka kugira ngo bagire aho bajya, bigaragara ko bari gutaha iwabo mu mago.

Itsinda ry'abanyeshuri bicaye ku meza yabo hariho ibitabo barimo gusoma, bari mu isomero aho bigira ndetse habikwa ibitabo, ni byiza ku munyeshuri kubona aho asomera kugira ngo atyaze ubwenge bwe ndetse asobanukirwe ibintu bidasobanutse kuko biba biri mu bitabo akenshi.

Imyenda n'ibikapu bibitse mu kabati bigira isuku cyane, kubera ko ntago biba bishobora kugerwaho n'ibintu bibyanduza cyangwa se ngo habe hari ikintu cyapfa kubyangiriza, yenda ngo kibice cyangwa kibirye nk'imbeba cyangwa se ibindi bikoko bishobora kugera mu nzu.

Icyumba kirimo ameza menshi ndetse n'utubati, buri meza ikaba igiye ifite intebe ziyiri iruhande bigaragara ko ari zo abantu bicaraho mu gihe barimo gukorera muri icyo cyumba, mu tubati hagiye harimo ibikoresho bibitsemo bikoreshwa mu mirimo ihakorerwa.

Ahantu hubatse neza hari indabyo ndetse na jaride nziza cyane, aho harimo ibirabyo byinshi ndetse n'amazu yubatse neza. Hakaba harimo abantu bari kugendagenda bigaragara ko ari mu kigo cy'ishuri gishobora kuba ari amashuri makuru cyangwa kaminuza.

Inyubako zigezweho zigeretse rimwe, zifite aho kwanika imyenda hasi ndetse zikaba zifite jardin imbere yazo, ni inyubako nziza cyane bigaragara ko ari amacumbi y'abantu, kandi zifite ibintu byose bisabwa kugira ngo abantu bazibemo.

Akabati karimo ibitabo byinshi bitandukanye, kakaba kabibitse kugira ngo bitangirika, ibitabo bisaba kubibika ahantu hatagera amazi cyangwa ngo habe hagera udukoko tubirya tukaba twabyangiza, ni byo bituma biramba bigakoreshwa icyo byagenewe.

Icyapa kiri ku muryango w'ishuri, kigaragaza ko iryo ari ishuri. Rivuga icyo bikorerwamo ndetse hakaba hari n'amanumero yawo. hejuru hari akantu k'agapapuro gashushanyijeho kamera igaragaza ko aho muri iryo shuri harimo kamera.

Abantu babiri bafite ibyuma by'ikoranabuhanga barimo kugerageza kugira ibyo bareba, bafite amaraso mu kantu kamwe ko babikamo ibintu muri laboratwari, bakaba barimo kugerageza kureba ibizami kugira ngo barebe niba ari umuntu urwaye cyangwa se hari ibyo bashaka gushakamo.

Inyubako nyinshi zubatse mu buryo bugezweho, aho ari inyubako zigeretse zisakaje amabati meza y'umutuku ndetse ziteye irangi zimwe rijya kuba umuhondo, izindi zubakishije amatafari ahiye. Zikaba zifite ubusitani bwiza burimo ubwatsi ndetse n'indabyo.

Umuhanda ukoze neza aho urimo amapave hirya yawo hakaba hari ubwatsi bw'ubusitani burimo n'indabyo, hakaba hari n'inyubako z'amashuri aho bigaragara ko ari inyubako za kaminuza, hakaba ari ahantu hasa neza ku buryo habereye gukorerwa ibikorwa by'uburezi.

Itsinda ry'abantu bambaye imyenda y'umweru imeze nk'amataburiya, ibarinda kuba bakwandura cyangwa se kuba hari ikindi kintu gishobora kubangiriza umubiri. Bakaba bari ahantu hari umuriro ndetse hari ibyo barimo gukora.

Icyumba kirimo urugi ndetse n'irido, aho idirishya rifunguye ririho ikirahure, hariho akabati k'inkweto, ku ruhande hariho inkweto imwe y'umweru n'izindi z'umukara, rero icyumba kiba kigomba gusukurwa kikagirirwa isuku kuko aba ari ho abantu barara.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ndetse n'abantu barimo kugendagenda hafi yaho, hakaba hari umuhanda ukozwe neza upavomye mu buryo bw'amapafe, bigaragara ko ahantu hafite isuku ndetse hasa neza ku buryo bwose bushoboka.

Ishuri ririmo intebe nyinshi. Zifite aho kwicara ndetse n'aho kwandikira. Ni ishuri rigezweho kuko rifitemo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ushobora gukoresha wigisha ku mashusho. Ndetse rikaba bifite na parafo nziza, bigaragara ko ari ishuri ryiza cyane.

Ikigega kirekire cyane, hejuru yacyo aho kirangiriye hariho icyapa cyandikishijwe inyuguti ziri mu mabara y'ubururu. Kikaba ari icyapa kivuga kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Kikaba ari icyapa kigaragaza ko aho ari muri kaminuza.

Icyumba kirimo intebe ndetse n'imeza zo kwandikiraho. Amadirishya yacyo akaba arimo ibitambaro bikingira abarimo imbere izuba cyangwa se bituma abari hanze batarebamo imbere. Hakaba harimo n'amatara akoreshwa n'amashanyarazi.

Akabati karimo ubwoko bw'ibitabo byinshi bitandukanye. Ibitabo ni ikintu cyiza cyane kubera ko bihereza umuntu ubumenyi atari asanganywe mu gihe ubifashe ugasoma ndetse ugashirika ubute ugasoma byinshi kuko biba bifitemo ibintu byinshi usanzwe utazi.

Icyumba kirimo ikibaho, harimo n'insakazamashusho ndetse n'imeza bigaragara ko ari iyo gukoreshwa mu gihe barimo kwigisha. Iki cyumba kikaba gifite ibara ry'umuhondo ndetse parafo yayo ikaba ari umweru, hakaba hari igice kimwe kiriho amatafari ikindi gice kiriho irangi.

Icyapa kigaragaza ishuri rya Kaminuza ry'Abanyayagatulika mu Rwanda, akaba ari icyapa kiranga ahantu iri shuri riri kugira ngo abantu bakeneye kurijyaho bitabagora bahite bamenya aho riherereye, akaba ari ishuri ry'abantu bashoje segonderi ushobora kwigishamo umwana wawe igihe ashoje segonderi.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo kugenda, bajya mu byerekezo bitandukanye, bigaragara ko bari kuva mu kigo cy'amashuri cyangwa se ku kigo runaka, barimo kujya ahandi hantu ndetse abandi baza binjiramo.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi muri sayansi harimo abantu ndetse n'ibikoresho bakoresha. Hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo ibyerekana amashusho ndetse n'utubati tubikwamo ibindi bikoresho.

Itsinda ry'abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, aho bari imbere mu nzu bigaragara ko ari inzu y'imyidagaduro cyangwa se bari ahantu ku rubyiniro, bakaba hari ibintu barimo gukora biri kumurikirwa abandi.

Akabati karimo ibikoresho birimo amavuta, birimo impapuro z'isuku ndetse n'igikapu kiri hejuru yako, hakaba hari n'igitanda kiriho iswime ndetse n'akandi kantu ko kumanikaho imyenda mu gihe umuntu amaze kuyifura.

Icyumba cyubatse neza, gifite sima hasi isa neza ndetse inkuta zacyo zubakishije amatafari ahiye, hejuru hakaba harimo parafo ndetse n'amatara, hakaba harimo intebe n'ameza makeya bigaragara ko hadakorerwamo ibintu bisaba kwicara cyane.

Icyapa cyerekana ishuri ry'imyuga rikuru rya Kitabi, kikaba ari icyapa gikoze mu buryo budasanzwe, aho gikozwe mu biti bishinze ibindi bitambitse hejuru, hakandikishwaho amagambo n'ibara ry'ubururu irindi ry'umukara.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri ndetse n'ameza abiri, buri meza ifite intebe iruhande rwayo. Ibitanda bikaba bishashe neza, bigaragara ko arara abantu ndetse akaba hafite amarido ndetse n'ibikuta bisa neza, bigaragara ko ari ahantu hakozwe neza kandi hafite isuku.

Umuntu uri mu cyumba cye harimo n'uburiri bwe buri ku gitanda, hakaba harimo n'akabati karimo imyenda ndetse n'ibikapu bye akoresha, hakaba harimo amakaro ndetse urugi rukaba rukozwe mu cyuma, irangi riteye mu cyumba rikaba ari umuhondo.

Umuntu urimo kugenda mu muhanda wubatse neza ndetse inyuma ye hakaba hari inzu yubatse neza iri mu gipangu cyubakishije ibyuma by'umutuku, hakaba harimo indabyo ndetse n'ubwatsi busa neza bugaragaza ko aha hantu hameze neza kandi hakorerwa isuku.

Inzu irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gupima ibintu, harimo na mudasobwa ndetse n'utubati twinshi tugaragara ko tubikwamo ibikoresho bakoresha aha hantu.

Icyapa kigaragaza ishuri rikuru ry'imyuga rya Kitabi, aho hari umuntu uri imbere yacyo arimo kuvugira kuri mikoro. Icyapa kiriho ibikoresho by'ikoranabuhanga, kirimo ibifata amashusho ndetse n'abanyeshuri babikoresha.

Abantu benshi bicaye mu cyumba, aho hari intebe ziteretse imbere y'ameza, bakaba bafiteho mudasobwa ndetse hari umuntu imbere yabo urimo kubigisha. Bakaba bamuteze amatwi, bari kumva ibyo arimo kuvuga.

Icyumba giteye irangi ry'umuhondo kirimo n'ivomo ryamazi, hakaba hari igitanda ku ruhande ndetse hasi kuri sima hakaba hariho inkweto zo kwambara zifunguye, icyumba ni cyo abantu bararamo ndetse bakanabamo igihe kinini,

Icyumba bakoreramo imyitozo yo gukora, aho bakora ibintu bize mu magambo bakabishyira mu bikorwa, kugira ngo barebe niba koko babyumvise neza. Ibi bifasha abanyeshuri kugira ngo batazibagirwa ibintu bize, kuko baba babikoze n'amaboko yabo.

Uburiri bushashe neza bw'umuntu, hakaba hari inkweto ziri mu kabati ndetse n'ubudomora buteretse hejuru y'akabati, hakaba hari amarido mu idirishya ndetse bigaragara ko harara abantu babiri kuko hariho imisego ibiri.

Icyumba kirimo imeza ndetse n'intebe, hakaba hari igipapuro kimanitse ku rukuta kiyobora abantu, irukuta rufite ibara ry'umuhondo, bikaba bigaragara ko aha ari ahantu hakorerwa n'abantu, bakaba bafite aho kwicara ndetse naho gukorera imirimo yabo isanzwe.

Inzu igezweho, igeretse inshuro enye. Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite amadirishya meza ndetse yubakishije amatafari ahiye. Akaba ari inzu yifashishwa mu gutanga uburezi, aho ifitemo ibyumba byinshi bikoreshwa nk'amashuri.

Ameza ari mu cyumba, hakaba hateretseho ubudomora, ibikombe ndetse mu bikombe hakaba harimo uburoso bwoza amenyo, hakaba hari n'intebe hafi aho ngaho zo kwicaraho igikuta cy'iki cyumba iyi meza irimo kikaba gifite irangi ry'ubururu.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru, kikaba cyanditseho amagambo menshi mu byiciro bitatu, aya magambo akaba yandikishije ibara ry'umukara; ku ruhande hakaba hari ibyuma bigifashe, ndetse inyuma yacyo hakaba hari ibiti ndetse hasi hakaba hari ibyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu babiri. Umuhanda usa nabi cyane bigaragara ko ushaje ukeneye kuvugururwa, ndetse rigore zawo zigakorwa neza, kubera ko bishoboka ko zatera impanuka bitewe no gusaza cyane.

Ifoto iriho ikiganza gifashe akantu k'akarahure n'akandi k'ubururu karimo gukozamo kugira ngo bagire ibintu basigamo, ikiganza cyambaye akantu kakirinda kuba cyakwandura cyangwa se kuba cyakomereka.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kimwe. Aho bamwe muri bo bafite imashini cyangwa se mudasobwa. Bakaba barimo kwigishwa n'undi muntu ubahagaze imbere ufite ibyo arimo kubasobanurira bagomba kumenya cyangwa se gusobanukirwa.

Urugi ruriho icyapa cyanditseho amagambo ndetse n'imibare, akaba ari urugi rugezweho rufite ikirahuri ndetse n'aho gukingurira hakozwe n'icyuma, urugi hirya yarwo hari inkuta zifite irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Abantu bari ku nyubako zisa n'aho ari amacumbi, akaba ari amacumbi acumbikwamo n'abanyeshuri batandukanye biga mu ishuri rya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, hakaba harimo abanyeshuri benshi cyane.

Inzu irimo amacupa menshi bigaragara ko ari ibinyabitabire, bikaba biri hejuru y'amameza ndetse no munsi y'ayo ma meza hakaba harimo ibindi rero ni byiza kwitondera ibinyabutabire kuko bishobora guteza impanuka mbi cyane.

Inyubako zubatse neza, ndetse zifite ahantu hanze ho kwanika imyenda ku bantu baba bakeneye kumesa, bigaragara ko ari ahantu hatuwe n'abantu, cyangwa se ibyumba bibarirwamo n'abanyeshuri biga mu kigo kiri aha ngaha.

Icyumba kirimo intebe, ndetse n'ameza byo kwicaraho, hakaba harimo na televiziyo iriho ijambo ryandikishijwe mu mabara y'umweru, bigaragaza ko ari ahantu hari gukorerwa ibintu by'ikoranabuhanga.

Icyumba kirimo akabati kabitsemo inkweto zo kwambara, ndetse n'ubudomara burambitse hejuru yako burimo amazi yo kunywa. Amazi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu kugira ngo yirinde ibibazo bishobora guturuka ku kugira inyota ikabije.

Ikibuga cy'imyidagaduro. Aho ari imikino y'intoki ikinirwamo. Imikino y'intoki ni imikino ikundwa n'abantu benshi, kandi ikaba ari imikino ifasha abantu kuruhuka, ndetse no gukora siporo zisanzwe kugira ngo, imibiri yabo itagira ibibazo by'uburwayi.

Icyuma cy'ikoranabuhanga gifasha kwerekana amashusho avuye kuri mudasobwa, kikaba ari icyuma gikunda gukoreshwa cyane cyane iyo bari kwerekana amashusho bari kwiga cyangwa se bari kureba filime z'amashusho, ibi ngibi bikaba bifasha mu gukoresha ikoranabuhanga.

Icyumba kirimo ameza , ndetse n'udutebe dutoya turi munsi y'ameza, bigaragara ko ari utwo kwicaraho. Kikaba gifite aho kubika ibintu ku ruhande, ndetse hari n'imeza imbere, hakaba hari n'ikibaho, ndetse harimo n'amatara, na parafo y'umweru.

Icyumba kirimo intebe nyinshi ndetse n'ameza. Hakaba harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byerekana amashusho, ibikoresho bishobora gufashishwa mu kwigisha cyangwa se kwerekana ibintu ushaka ko abantu babonera icyarimwe ari benshi.

Icyapa kirambitse ku gikuta ndetse n'umuntu wicaye impande yacyo. Icyo cyapa cyanditseho inumbero ndetse n'inego y'ishuri rijyanye n'ibintu by'ubuganga, kugira ngo abanyeshuri babyiga, bajye bamenya ibinu bagenderaho ndetse n'ibyo bagomba kugeraho mu myigire yabo.

Abantu barimo kugenda mu muhanda ukoze neza wa kaburimbo gusa watangiye kwangirika, bigaragara ko ukeneye gusanwa kugira ngo ukomeze koroshya ingendo z'uruva n'urujya by'abantu bava ahantu hamwe bajya ahandi bityo bigatuma ingendo n'ubuhahirane bikorwa neza cyane.

Igishushanyo kigaragaza umuntu ufite icyuma mu ntoki ndetse n'icyapa kigaragaza ishuri ry'imyuga rya Kitabi, hakaba hari n'amazu ari hasi ari imbere y'ibiti byaho, aho bigaragara ko ari ibintu by'ubugeni byakozwe mu buryo bwo kwamamaza umurimo ku munsi w'umukozi.

Inyubako y'ubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya y'umweru ndetse igice kimwe kiriho irangi ry'umuhondo, ikaba ari inyubako igeretse inshuro eshatu ndetse ndende ku buryo bushoboka ugereranyije n'izindi nyubako dusanzwe tubona, ikaba izengurutswe n'igipangu gikoze mu byuma.